Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Aho bacuruza amata ya miliki zone hari firigo irimo amabido n'amacupa y'amaji n'amazi, hagaragara abantu babiri umwana ndetse n'umugabo waje kugura.

Ni iduka ricuruza amata icyapa cya miliki zone inyange kiri mu mabara y'umweru icyatsi n'ubururu, mu imbere harimo firigo irimo utubido n'utubido ku ruhande tw'amata.

Abantu batatu bari kunywa amata umukobwa umwe abasore babiri ibara ry'ubururu n'umweru baricaye ku ntebe za parasitike z'umweru.

Bari kugura bakoresheje MoMo, kugura amayinite yo murandasi y'amafaranga atanu kuri terefone yo mu bwoko bwa ayifone a..

Ni itumanaho riri kugaragaza uburyo bashobora kwishyura, ushobora kugura amiyinite, ushobora kohereza amafaranga kuri Airtel money, uburyo bugaragaza uburyo wakwishyura.

Inyemezabwishyu igaragaza ko ugiye gusora umusoro w'ibihumbi icumi, Rwanda reveni otoriti ya Nyarugenge nimero ya Rwanda reveni ni zeru umunani, mirongo itanu magana atandatu.

Urupapuro rushushanyijeho amabara harimo amabara y'ubururu, umutuku n'umweru, w'incamake yamafaranga y'amadolari, mu gihugu cy'Amerika.

Nakazu ka kiyosike kari mu mabara y'ubururu, ndetse n'umuhondo hariho ibyapa byinshi byuko bohereza amafaranga, ndetse nuko bakira amafaranga bakorana n'ibigo byinshi ari byo bya manigaramu.

Bigaragara nkaho kuri hoteri imyanya abantu bicaramo, intebe ifite udusego tw'ubururu tw'icyatsi, n'ameza maremare n'intebe ndende bicaraho hejuru.

Ni mu isoko harimo: imboga, harimo ibirungo hari icyapa cya emutiyene, aho ushobora kwishyura ukoresheje momopeyi. Umuhungu wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara ari gucuruza ibitunguru by'umweru n'iby'umutuku, inyanya, indimu ibirungo.

Icyapa cyamamaza kiriho icupa rya gaze, moto, icupd ryanditseho jibu berekana nimero zo kwamamaza zeru karindwi umunani gatanu gatanu makumyabiri na gatanu magana arindwi icumi nagatandatu.

Icyumba, gisashe neza kiriho umusego, hamanitseho amarido y'umweru n'icyatsi, hasi icyerekezo cyanditseho Kabeza Kigali siti, hejuru hariho amadorari mirongo itanu n'atanu, buri kwezi muri Kigali Rwanda.

Ni inzu ikodeshwa Kigali-Kanombe, ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi.